Positedosante iri gukorerwa isuku hanze, mu bigaragara inyuma ntabwo bari bayinoza. Rero hari abandi bari kuyikorera isuku, hari abayobozi bari kubireba, hariho n'umugore uri kwinjiraga mu ivuriro kugira ngo bamufashe mu buryo bwo kumuvura.

Umurima gw'amabuye harimo ibyatsi bitandukanye. Harimo ibyatsi bitaga inyunyu. Twakundaga kubirya tukiri abana tugashiramo isukari cangwa umunyu. Hariho n'ikindi catsi byegeranye co twitaga mugabunuka, caranukaga cane hahandi intozi zabaga zaduteye ukagica ukagshira mu nzu, intozi zigahita zigenda.

Icatsi citwa intondore gikundaga kwera mu ishamba, kigiraga uturabyo tw'umweru, utwo turabyo ni two tubyaraga imbuto zaco zitwa intodore, iyo zikuze ziraturikaga zikivanaho cangwa rugaturika rugakomeza rukagumaho nayo zitari zakura zibaga zibumbye nk' agaseke.

Umwenya ni icyatsi cyiza gikunda kumera mu ishyamba, ariko niyo ubishaka uragikura ukaza ukagitera mu rugo. Kigira icyayi kiza kiryoshye ndetse ni n'umuti abenshi bawukoresha mu kuvura n'inkorora.

Ishamba rigizwe n'ibyatsi bitandukanye harimo: intusi z'umweru, ibibonabona, n'ibifuranende biri hamwe n'urutonde rw'amabuye.

Igiti c'umusave giteye mu muririma gurimo urutoki n'amateke n'ibindi byatsi bitandukanye, umusave bagukoragamo imbaho, imbaho zigakorwamo ibintu byinshi bitandukanye utubati, intebe n'ibitanda. Abazi imbaho bavugaga ko umusave arigwo gugiraga imbaho nziza.

Imboga zitwa isogo ni imboga ziryoha bagereka cane cane ku biryo bya kinyarwanda, baziteka ku bishyimbo, mu birarayi, ndetse waziteka na zonyine ugashiraho ukazirisha ibiryo ibyo aribyo byose. Izi rero ni imboga zitwa isogo.

Intondori n'ibyatsi byameraga mu murima bifite uturabyo tw'umweru ndetse nyuma y'utwo turabyo hazaga intondori nyirizina ari zo mbuto z'icatsi zararibwaga, cane cane zakundwaga kuribwa n'abana ndetse n'amatovu aribwa n'ihene, nibyo byatsi ihene zikunda.

Igiti c'umuyinya ni igiti kigiraga utubuta tumeze nk'uduheke tw'icatsi, turashariraga cane. Abantu b'abakecuru ni bo badukundaga bakaduhekenya, bakadushira no mu bishimbo, bakadutogoteshamo ariko turashariraga cane. ni uko bo badakundaga kuberako bo bakundaga ibisharira.

Igiti c'umuravumba bagikoreshaga nk'umuti bari kuvura inkorora, yaba ku bantu bakuru yaba ku bana, ni umuti ukizaga inkorora neza.